Ni abanyeshuri basa nkaho bari mu mahugurwa bigaragara ko hari umuntu ubashinzwe uri kugenda ubabwira ibyo bakora abasobanura neza uburyo bikora anaberekera ibyo bari gukora niba aribyo cyangwa atari byo.